Icyumba kinini cyane cyakiriye abantu batandukanye. Harimo abagore ndetse n'abagabo, barimo umugore uri imbere wambaye ikanzu y'umutuku wambaye n'amadarubindi, barimo barandika imbere yabo hateretse ibyo kunywa, bigaragara ko hari ikintu bakurikiye kandi bari kwandika kugira ngo babashe kwibuka ibyo bababwiye.

Umugabo uri mu nyubako nziza cyane, yambaye ikoti ndetse yambaye ishati y'umweru na karuvati, amadarubindi afite indangururamajwi. Yahagaze ahantu handitse Nyagatare. Arimo aragira inama ikiza cyo kushora mu Rwanda imari yawe kuko iruhande rwe hari icyapa cy'ikigo gishinzwe ishoramari mu Rwanda.

Umugabo uri mu cyumba cyiza cyane gifite amarido y'ubururu yambaye ishati y'amaboko magufi ndetse n'insaha ku kuboko, arimo arakoresha arakoresha indanguramamajwi mu gutanga ikiganiro gikomeye cyane kugira ngo abantu bamukurikire kandi biteze imbere.

Untwara mu cyane harihoho amatara mweka ku muhanda jami modoka yumyeho burishyu kandi imbere yayo hari ducanye ku buryo umuntu uwo ari we wese abasha kubona mugenzi we akagenda anakiko.

Ahantu hari amapoto y'amashanyarazi, ndetse hari n'umukozi w'ikigo gishizwe amashanyarazi, arimo arareba ibibazo insinga zagize, kugira ngo abashe kugeza umuriro ku baturage bawukeneye.

Ahantu habi cyane hari ibicu byombi kandi hari n'ipoto ry'amashanyarazi n'insinga nyinshi cyane zijyana amashanyarazi iyo hakize ikibazo umukozi w'ikigo cy'amashanyarazi aza akareba ikibazo cya ubundi akabasha guha abaturage.

Inyubako nini cyane isize amarangi y'ubururu ndetse yubakishijwe n'amabati y'ubururu. Ikirere nacyo ni ubururu. Ifite mo imbere amarangi y'umweru kandi ikinguye urugi ifite n'amadirishya akinze. Umuntu wese uyinjiyemo abasha kubona serivisi abaza.

Inyubako nini cyane iri ahantu heza cyane, gusa haruguru yaho hari umusozi wubakishije amatafari y'icyatsi , ndetse ifite imiryango myinshi, imwe irakinguye hakurya yayoho bari ibyatsi, ndetse mbere yayo hari n'ubusitani n'itara rimurika ku muhanda.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse hirya no hino mu mpande zitandukanye: abagore, abagabo ndetse n'abana, hari umudamu ufite indangururamajwi ubahagaze imbere, yambaye kamambiri kandi bigaragare ko hari ikintu ari babwira. Abandi baricaye abandi nabo barahagaze.

Abagabo bari ahantu mu kibuga haparitse imodoka inyuma yabo hari urutoke hari umugabo uri ku ruhande bafite inkoni ndetse babiri bambaye n'ingofero, umugabo ari iruhande kandi na we, ari kubaganiriza bamuteze amatwi barikumva ikintuu ababwira.

Umugabo uri mu kibuga, yambaye ikabutura y'umuhondo n'umupira w'umuhondo, amasogisi y'umuhondo ndetse n'inkweto z'umukara, afite umupira arimo arakina, arimo ariruka kugira ngo abashe kugera ku izamu atsinde igitego.

Hano hari abantu benshi cyane barahagaze abandi baricaye. Ibumoso bambaye ingofero ndetse n'umupira w'umuhondo. Hari undi mugabo urengana wicaye afite agapapu kandi bari kureba hejuru cyane, bigaragara ko hari ikintu bashungereye.

Sitade irimo abakinnyi ndetse ikabamo n'abandi baje kure umupira, abakinnyi bari mu kibuga bambaye impuzankano zabo, barimo baritoza kugira ngo baze gukina umupira bumva bameze neza nta zindi ndwara barwaye.

Umuhanda w'amabuye munini cyane urimo igare gusa igare riragaragara ipine gusa bigaragara ko arimo umuntu, nta wundi muntu uri mu muhanda bigaragare ko uwo muhanda atari nyabagendwa cyane.